Ifoto igaragaza imiti iri mu amacupa afite amabara y'imyeru ndetse n'ay'icyatsi, hakaba hari n'udukarito turimowo imiti, ndetse n'udufuka twanditseho maiz max magana atatu W na P.

Iyi foto iragaragaza amazi y'ikiyaga gikikijwe n'imisozi ndetse hakaba harimo n'ibirwa imbere muri ayo mazi.

Ifoto y'inka ziri imbere mu ruzitiro, uruzitiro rukomeye cyane izo nka zifite amahembe manini atereye hejuru cyane, hakaba hari abantu bagaragara nkaho ari abavuzi b'amatungo bambaye imyenda y'ubururu n'imyenda y'umweru na bote, yego.